Umukobwa usutamye hasi afite injerekani kandi ari kuyivomeramo amazi kuri robine, yujere kandi iteretse mu mabasi abiri agerekeranye, hirya ye hari inzu yubakishijwe amabati ndetse n'ibiti, inyuma ye hari imyenda yanitse ku mugozi.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakubiyemo abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato bicaye ku ntebe bafite amakayi n'amakaramu bari guhabwa amahugurwa ku birebana n'ubuzima.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi, ari ku iriba, ari gukaraba intoki, iruhande rwe hari indobo y'ubururu ndetse no hirya ye hari indobo y'ubururu, hirya ye kure hari ibiti ndetse n'amazu.

Umwana ukiri muto ari ku iriba, ari kuvoma amazi, yashyizeho ijerekani imwe, imwe iri kujyamo amazi, izindi ebyiri ziteretse iruhande rwe. Hirya ye hariyo insina ndetse n'ibyatsi.

Umwana w'umukobwa ukiri muto ari kw'iriba, yavomye amazi, arunamye ari koza indobo iruhande rwe hari izindi ndobo ebyiri z'umweru hirya ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ikimenyetso cy'ikizeru ariko kidafunze ki mu ibara ry'umuhondo kirimo akarongo kazamuye kongera kakamanuka kakongera kakazamuka kagahura n'ahandi hadafunze ako karongo gasa ubururu iruhande rw'icyo kizeru haranditse ngo nofu karorina goroba helifi ariyanse..

Umubyeyi w'umugore wambaye agapfukamunwa, ndetse n'umupira w'ubururu, ari kumwe n'umwana ukiri muto, wambaye ishati ya kaki, yafashe ibiganza bye ari kumukarabya intoki, akoresheje amazi ndetse n'isabune.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bambaye imipira ya orange harimo n'abambaye imyenda y'imikara ndetse harimo n'uwambaye imyenda ya polisi, bari kubaka akarima k'igikoni bateranwe ibimera bitandukanye, hirya yabo hari ibiti ruguru yabo hari ikigega ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Abaturage batandukanye harimo: abagabo ndetse n'abagore bateraniye hamwe hagati yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, arimo arabaganiriza hasi yabo hari ibikapu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umwana w'umuhungu ufite igikombe mu kaboko ke k'iburyo, ari kuvoma amazi muri robine, iruhande rwe mu ruhande rw'ibumoso hari indi robine iri guturukamo amazi, iteganye n'iyo ari kuvomaho.

Umusore wambaye umupira w'ubururu n'ipantalo, iruhande rwe hari mu umukobwa wambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru n'ipantalo y'ubururu; uwo mukobwa ari kwanbika mu ikaye nini ndetse afite telefone mu ntoki ze, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umutuku n'umukara agira ati "sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye", munsi y'ayo magambo hari agashushanyo k'umutuku.

Abagore babiri, umwe ukiri muto n'undi ukuze ndetse n'umwana w'umukobwa, baje kuvoma amazi. Hari amajerekani y'umweru ndetse n'ay'umuhondo. Hirya yabo hari insina, ibiti ndetse n'ibindi bimera.

Abantu batandukanye bakubiyemo abazungu ndetse n'abirabura, bateraniye hamwe bari kuganira bafite amakayeyi n'amakaramu, iruhande rwabo hari amazi ndetse na telefone, hirya yabo hari televiziyo ndetse n'ibindi.

Abantu batandukanye harimo: abagabo, abagore, abakuze, n'abakiri bato bahagaze ku murongo umwe bateganye, muri abo bantu barimo babiri bambaye imyenda y'ubururu ipantaro n'ishati ku ruhande rw'ibumoso hari icyapa inyuma yaho hari inyubako yanditseho ngo sale de conference.

Umuntu yicaye hasi yegamye ku nzu yifashe ku matwi, yambaye ingofero y'umukara ishati y'umukara ndetse n'ipantaro yacitse, yambaye urukweto rumwe, mu ntoki ze afite ishashi irimo amazi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umubyeyi w'umugore yateze igitambaro kirimo ibara rya oranje, yicaye ku musambi ari kumwe n'abana babiri, umwana muto aramuteruye mu ntoki, uwo mwana ari kurya intoki, iruhande rwabo hari inkoko iriho ingemeri y'umutuku iri mu muceri.

Imodoka y'umweru nini yanditseho amagambo y'ubururu agira ati the launch of mental health mobile clinic in Bugesera. Hirya y'iyo modoka hamanitse amatente yiciyemo abantu, hirya yaho na none hari ibiti hari n'abantu.

Umubyeyi w'umugore wambaye isengeri y'umweru ari kumwe n'umwana w'umukobwa wambaye isingeri y'umweru bari kurebana mu maso bose basetse, mu ntoki zabo bafite uburoso bw'amenyo.

umugabo ari kumwe n'akana k'agakobwa, bahagaze mu kibuga cy'umupira ako kana gafashe umupira uwo mugabo yazanye amaboko ngo afate ako kana, hirya yabo hari ibiti, amazu ndetse n'ibyuma bikorutiriye icyo kibuga cy'umupira.

Umugabo ukuze wambaye umupira w'umukara iruhande rwe hahagaze umukobwa ukiri muto, amufashe ku rutugu ari kumuha ibinini, iruhande rw'abo kumeza hateretse computer ndetse n'amazi ari mu kirahure.

umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bari kumwe umusaza wambaye umupira w'umutuku n'amarinete umukecuru yambaye umupira w'umutuku urimo imirongo y'umukara kumeza hari amarinete, uducupa turimo imiti, igikombe ndetse n'ibindi bitandukanye.

umugabo ukuze munini wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'ubururu yicaye ku ntebe ari kumwe n'umukobwa wambaye agapfukamunwa na we wambaye ishati y'icyatsi uwo mukobwa ari kumufungira ibipesi by'ishati hirya yabo hari ibiti ndetse n'inzu.

Umusaza ukuze wambaye umupira w'ubururu afite ibinini mu ntoki iruhande rwawo umukecuru wambaye umupira w'umutuku ufite urupapuro rw'umweru iruhande rwabo kumeza hatse ikirahure kirimo amazi ndetse n'agakombe karimo ibinini.

Umugabo ukuze, wambaye ishati y'umutuku, wicaye mu nzu, iruhande rwe ku meza hateretse ibyo kurya bitandukanye, urugero nk'inkoko ndetse n'ibindi ndetse n'amazi. We n'umuntu uri iruhande rwe bishimiye ibyo byo kurya.

Umugabo ukuze wambaye umupira w'icyatsi cyijimye ari kumwe n'umugore ukuze wambaye amarinette n'umupira n'imirongo y'imikara uwo mugabo umutwe yawushyize kumutwe wa wa mugore ukiri muto ndetse amufashe ku rutugu inyuma yabo hari igipangu cy'umukara.

Umuryango wabantu batandukanye harimo umusaza, umubyeyi w'umugore ukiri muto, n'umugabo ukiri muto, n'abana b'abakobwa bakiri bato n'undi muhungu ukiri muto, barishimye bose bari guseka, inyuma yabo hari ibiti.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru, umukecuru ateze igitambaro cy'umutuku, afatanye ku rutugu n'umusaza, umukecuru yafashe umusaya we awushyira mu maso h'umusaza, barishimye bari guseka.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bicaye hamwe iruhande rwabo kumeza hateretse udusoro duturimo ibyo kurya, inyuma y'uwo musaza hagaze umusore ukiri muto wambaye amarinette yambaye baje iririmo ikarita, hirya yaho hari abandi bantu batatu abasaza babiri n'umukecuru umwe.

Ababyeyi b'abagore bicaye hamwe mu isoko bari kuganira, iruhande rwabo bari inyanya, hirya yabo hari ibihingwa by'imbuto urugero nk'amaronji, imyembe ndetse n'ibindi.

Umusore wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa, bari kumutera urukingo rwa kovidi cumi n'icyenda. Uri kurumutera yambaye ingofero, agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ijire.

Inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge kuri iyo nyubako hahagaze abantu babiri iruhande rw'iburyo ndetse n'ibumoso hose hari ubusitani hari ibiti ndetse hari n'imihanda myiza.

Inyubako icururizwamo imiti yo kwivura ,inyuma kuri iyo nyubako hariho amafoto y'ibintu bitandukanye urugero nk'imiti ,ibikoresho bikoreshwa kwa muganga ,ndetse n'ibindi hejuru kuri ya nyubako .Hari icyapa cyanditseho ngo elftabit formamaket imbere muri iyo nyubako harimo'imiti itandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye harimo nk'izicuruza imiti y'uburwayi, farumasi ndetse n'izicuruza imyenda cyangwa se imyambaro yo kwambara. Iruhande rwazo haparitse imodoka.

Umugabo wicaye mu ntebe yambaye baji irimo ikarita yambaye n'igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso mu kaboko, ari kumwe n'umugabo wambaye amarinete wambaye n'ijiri yanditseho arabisi n'umupira w'umweru iruhande ku kaboko hariho ikirangantego cya kuruwa ruje hejuru y'uwo mugabo hari kizimyamoto za faya egisitingwishi.

Inyubako yo kwa muganga hejuru ifite akapa gatoya kanditseho ngo materinete buroke, hirya yayo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, hirya y'uwo muganga hari izindi nyubako ebyiri.

Umugabo ukuze wambaye amarinete n'ishati y'umutuku arikumwe n'umugore ukiri muto wambaye ishati y'ubururu uwo mugore yamwambitse igikoresho cy'umukara gipima umuvuduko w'amaraso.

Inyubako yo kwa muganga, aho abarwayi baryama, harimo ibitanda byinshi ariko igitanda kimwe ni cyo kiryamyeho umuntu, hejuru hamanitse inzitiramibu, amatara ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara yagiye hasi, amaguru yombi yayahinnye yayajyanye inyuma ndetse n'amaboko yombi yayarambuye imbere.

Umukobwa arahagaze ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaboko kamwe gashyize imbere, yazamuye akaguru aragahina agafatisha akandi kaboko.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri ateruye icyuma mu ntoki ze zombi ,akikijwe n'ibyo kurya bitandukanye harimo nk'ibikomoka ku matungo, ku mboga ndetse no ku mbuto. ibikomoka ku mboga harimo amashu, pavuro ndetse na karoti. ibikomoka ku mbuto harimo inanasi ndetse n'imineke n'ibindi byo kurya bitandukanye by'ubwoko bwose.

Bande enye zitandukanye mu mabara, iz'umutuku ebyiri, iy'umukara ndetse n'iyibiruru, akaboko k'umuntu kaziritseho bande y'umutuku

Ikizeru cy'umweru hagati gishushanyijemo umusaraba w'umutuku, kizengurukijemo n'amagambo agira ati :"Croix Rouge Rwandaise, Rwanda Red Cross.'' Munsi y'icyo kizeru haranditse ngo First Aid Training Facilitator.

Ibyuma bitandukanye bikoreshwa muri siporo, iruhande rwabyo hari ibihingwa bitandukanye urugero nk'ibikomoka ku mboga ndetse no ku mbuto. Ibikomoka ku mboga harimo pavuro ndetse na shufurere, ibikomoka ku mbuto harimo imineke, pome ndetse n'amaronji.

Etageri irimo ibinyobwa bitandukanye urugero: nk'amazi, kambuca, ubuki ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iruhande rw'iyo etageri hari firigo, iruhande rwa firigo hari umugore uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo n'umugore iruhande rwabo hari umuti gakondo ufite agafuniko k'umweru, uriho agashashi k'umutuku uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse ugakumira indwara zifata porositate.

Amacupa atandukanye harimo imiti ya kinyarwanda urugero: nk'icupa ririmo igikakarubamba n'irindi cupa ririmo ibumba ndetse n'andi macupa agiye arimo imiti itandukanye.

Igihingwa cy'ibikomoka ku mbuto ni ukuvuga ipapayi, hari ipapayi idakase ikiri yose ndetse n'ipapayi ikase irimo imbuto z'umukara hagati.